Imashini yuhira ibihingwa iri kuvomera umuceri. Akamaro kayo tuyikoresha ku zuba twuhira ibihingwa bitandukanye kugira ngo bituma umuceri ,imboga, imbuto byose.

Iyi ni sanitayiza . Sanitayiza ni umuti twifashisha dukaraba intoki kugira ngo wice udukoko dutandukanye twirinde umwanda.

Icupa rifite ibara ry'icyatsi, n'umweru rishushanyijeho ikigori, bigaragara ko ririmo umuti wo gutera mu bigori. Umuti wica udukoko mu bigori.

Imifuka igerekeranye iri muri sitoke, irimo amabara y'icyatsi n'umuhondo, iri muri sitoke mu nzu yabugenewe.

Abantu bari gushyira imvaruganda ku bigori. Abagabo babiri umwe yambaye bote n'ipantaro y'igitaka n'ishati y'ubururu n'ingofero y'ubururu. Undi yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara. Bari gushyira ifumbire mva ruganda ku bigori.

Imifuka myinshi ihagaritse, n'udutaro turimo inyanya inyanya zahiye zimeze neza, inyanya ni igihingwa cyiza kiri mu bwoko bw'imboga, kandi ziduha amafaranga menshi.

Uyu ni umuti witwa detane. Bawutera mu nyanya, mu ntoryi, mu bitunguru, no mu zindi mbuto zitandukanye. Ni umuti wica udukoko ku gihingwa.

Abantu bari guhingira ibigori, bambaye ingofero zireba imbere, bambaye imyenda y'ubururu, ariko bari guhingira ibigori bisa nk'ibyashwe n'indwara y'ibeja, bifite ibara ry'umuhondo.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu ahetse ipombo, ari gufuhira ibihingwa biri mu murima, yambaye isarubeti y'umweru agatuza kari kugaragara yambaye isarubeti y'ubururu agatuza kari kugaragara ,nta n'ingofero yambaye.

Icupa rifite umufuniko w'icyatsi, rifite imirongo y'ubururu n'umweru mo hagati, ryanditseho ijambo Ijanda gatanu, ribamo imiti yica udukoko mu myaka.

Umugabo, ni umugabo uri gufuhira amashu, yambaye itaburiya y'icyatsi n'ingofero y'umutuku n'agapfukamunwa, hirya y'umurima w'amashu hateye igitari, ahetse ipombo, ari gufuhira, ari gufuhira imboga z'amashu.

Umugabo wambaye ishati ya rumbiya ari gufuhira ibihingwa mu murima, ahetse ipombo yambaye n'ingofero. Imbere ye hari imifuka y'ubururu iharambitse.

Imboga zitwa shufureri ni imboga zihingwa zikunda kuribwa mu nyama, ni imboga ziryoha cyane abazungu barazikunda cyane.

Amafi abaze neza， bashyizeho n'ibirungo byayo，amafi araryoha， amafi agira intungamubiri nyinshi，atanga n'amafaranga. Amafi ni meza cyane.

Ikiyaga giteyeho ibiti binini, hijya ku nkengero hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru n'ikoti ry'ubururu. Ni ikiyaga kinini, ni kinini cyane, imbere yaho hateyeho n'urutoki n'ibitari.

Isambaza mbisi zitakariye, isambaza ziraryoha zifite intungamubiri nyinshi mu mubiri, isambaza zidufitiye akamaro kanini cyane.

Amafi menshi ari mu ndobo z'ubururu, amafi turayarya, amafi bayagurisha amafaranga, amafi adufitiye akamaro kanini. Afite intungamubiri mu buzima. Amafi ni ikiribwa cyiza.

Amafi menshi ari ku gataro, bayarobye bayashyira ku gataro, amafi araryoha, agurishwa amafaranga, amafi afitiye abaturage akamaro kanini, afite n'intungamubiri nyinshi mu mubiri.

Icyuzi cy'amafi kinini cyane, hakurya y'aho hari kugaragara imisozi iteyeho ibiti. Amafi turayakunda, amafi agira akamaro kanini agurishwa amafaranga.

Iri funguro ni ifunguro ry'ibitoki bashyizeho urubuto rwo kubifatisha rw'indimu. Ibitoki rero biraryoha, bashyizemo n'utundi twatsi, niba ari twa te, ibitoki biraryoha cyane.

Amafi, amafi ari mu gatete agera ku ni nk'amafi icumi. Amafi araryoha, amafi tuyagurisha amafaranga, amafi adufitiye intungamubiri nyinshi, afite akamaro kanini ku mubiri w'umuntu.

Amafi abiri arambitse ku iparato hariho n'utwatsi bita te hariho n'indimu bakase ebyiri utupande tubiri.

Amafi abiri manini arambitse hasi hariho n'inyanya, amafi araryoha adufitiye akamaro kanini mu mubiri, amafi kandi ava mu kiyaga.

Amafi yatetswe ari ku iparato, hatetseho n'amakaroni bayashyizemo ibirungo, ni indyo iteguye neza iri ku iparato.

Isambaza bari kuroba ziri mu rushundura， Isambaza ziraryoha， zitanga amafaranga， zigira intungamubiri nyinshi mu mubiri，isambaza usanga zikunzwe cyane ku isoko.

Amahera arimo mu kintu, amahera araryoha, araryoha turayarya, afite intungamubiri nyinshi, agurishwa amafaranga.

Amafi menshi arambitse ku kintu. Amafi araryoha, amafi aguha amafaranga, amafi afite intungamubiri nyinshi mu mubiri. Amafi ni meza cyane.

Amafi abiri amanitse meza manini ameze neza .Amafi araribwa ,agira intungamubiri nyinshi mu mubiri ,agurishwa amafaranga ,amafi araryoha cyane

Amafi arambitse ku cyokezo ,bari kuyotsa kugira ngo abantu babone uko bayagura yokeje. Amafi araryoha kandi afite intungamubiri nyinshi mu mubiri ,agurishwa amafaranga .Amafi ni meza cyane.

Amafi, ifi irambitse ku iparato. Karoti, inyanya na za seleri n'ibindi birungo by'amafi. Ifi iba mu mazi, ifi iraryoha cyane. Ifite intungamubiri nyinshi, igurishwa amafaranga.

Amafi apanze mu tuntu tunyuranye dusa n'ubururu, Umutuku, umuhondo, Ubururujuru. Amafi agurishwa amafaranga, amafi tukayarya, atuma amafi arimo intungamubiri nyinshi.

Inzu y'amatafari ahiye ariko igisenge cyo hejuru ntabwo kigaragara, fondasiyo yayo ni amabuye, mu busitani bwayo hateyemo igiti gifite n'ikindi giti cyegetseho, kigishyigikiye.

Ishyamba riteyemo ibiti bya Geriveriya, ibiti bya Gereveriya ni ibiti byiza bivamo imbaho barabisatura bikavamo imbaho nziza cyane, ibindi bakabicana, ibindi tukabikuramo imihembezo yo gushingirira ibishyimbo.

Umurima uteyemo ibyatsi byo kugaburira amatungo byitwa kameroni, insina n'ibigori . Ibigori biraribwa ,insina zera ibitoki tukarya imineke, tukarya n'ibitoki byitwa incakara. Ibyatsi tukabigaburira amatungo inka zigatanga umukamo.

Umurima hirya yawo hateyemo insina, ku ruhande hateye ibiti by' imibirizi ni umurima munini, hanyuma muri uwo murima harunzemo n'umusenyi.

Urugemwe rw'igiti cyitwa ikizibaziba, iruhande rwacyo hateye n'ibindi byatsi bimera mu kinani, ni urugemwe rw'igiti cyitwa ikizibaziba, ikizibaziba kivamo imbaho.

Umurima w'urutoki urimo ibitoki byeze n'ibitari byera biteye inkingi. Umurima ukoreye neza igitoki kimwe kirimo inkingi ebyiri ebyiri, urutoki ruraryoha tukarukuramo inzoga n'amafaranga.

Amatungo magufi y'intama ari kurisha mu kiba mu murima uri inyuma y'urugo, imbere hateye insina n'ibidodoki, hari n'inyubako y'amatafari ya rukarakara, hariho n'indi nyubako y'inzu isakaje amabati.

Urugo rwubakishije amatafari, ahiye inzu nini y'amabati ifite n'igipangu, inyuma yaho hateyeho ibiti by'avoka byinshi ni urugo rwubatse neza.

Umurima uteyemo ubwatsi bw'inka. Ubwatsi bugira akamaro kanini ku matungo, inka ziraburya, zigatanga umukamo, zikabyibuha, bugatanga n'ifumbire, ubwatsi na bwo bufite akamaro kenshi.

Umurima uteyemo n'insina, hirya y'insina hari ibitari. Ni umurima munini basaruyemo n'indi myaka.

Umurima uteyemo imbuto zitwa Marakuja . Marakuja ni imbuto nziza ,ziraryoha zigurishwa amafaranga, zigira n' intungamubiri nyinshi mu mubiri.

Umurima uteyemo ibishyimbo. Ibishyimbo birumye. Ni umurima munini cyane, ariko nta bwo bari babisarura, biracyari mu murima. Ibishyimbo bifite akamaro kanini turabirya, ibishyimbo tukabigurisha amafaranga. Bifite akamaro kanini.

Ishyamba rinini cyane, ririmo ibiti birebire, ishyamba ni ryiza, riduha umwuka duhumeka, ishyamba nintaho y'inyamaswa, ishyamba riyungurura n'umwuka duhumeka.

Umurima uteyemo karoti ni umurima munini. Karoti ni imbuto ziryoha, ni ubwoko bw'imboga ziraryoha zitanga n'amafaranga, kandi zigira vitaminini, umuntu arwaye amaso, arazihekenya agakira. Hirya y'uwo murima hateyeyo igitari.

Umurima w'ibigori byareze, byarumye, baranabisaruye, hirya ya wo hariho ishyamba ririmo ibiti birebire, binini, ibigori byo byareze.

Iki ni igihingwa cy'ibirayi. Ibirayi ni ibihingwa byiza byerera hasi mu butaka. Bigira, bitanga amafaranga, abantu barabikunda kubirya, ibyatsi byabyo babigaburira amatungo. Ibirayi rero ni igihingwa cyiza cyane.

Ishyamba ririmo ibiti binini, harimo n'ibitoya bikibyiruka biringaniye, ariko ni ishyamba rigaragara ko ari ishyamba ryiza cyane ririmo ibiti binini, amashyamba atuma duhumeka neza, akurura imvura n'igiti umuntu akigurisha amafaranga akikenura.

Ubwatsi bw'amatungo, ubwatsi bw'amatungo tubwifashisha tubugaburira amatungo, inka zigakamwa tukabona n'ifumbire tukabubyaza umusaruro, tukabona ifumbire yo guhingisha kijyambere.

Umurima utemo ibikoro bitatu by'amateke, ariko nta bwo uhingiye, basaruyemo ibishyimbo, hirya y'uwo murima hariho n'igitari.

Imitwaro y'ibishingirizo yegetse ku nsina. Ibishingirizo ni ibikoresho twifashisha dushingirira ibishyimbo, ibishingirizo turabicana iyo byavunavuritse bikava mo inkwi.

Akayira kari kugendamo abantu, hirya no hino hateye imyaka imbere hirya kure harimo abantu bambaye imyenda y'umukara n'umutuku n'umweru, hariho n'urugo ruzitiye rucinyiye hariho n'ibiti birebire.

Umudamu uri mu nzira ari kugenda. Yambaye imyenda y'umutuku n'igishura kirimo amabara y'umutuku n'ubururu ,yikoreye inkwi hirya yo mu murima hateyemo imbuto za karoti, inyuma ye hariyo n'ibiti birebire.

Insina ziri mu murima zikikijwe n'ibiti by'imigano, ariko urwo rutoki rurasasiye rurakoreye neza, insina ziduha ibitoki biryoshye n'imineke iryoha cyane, n'imitumba tuyigaburira amatungo.

Urugo rwubakishije amatafari y'inkarakara, rufite urugi rw'ubururu n'idirishya hariho n'insina ifite igitoki giteyemo inkingi, igitoki kinini.

Umurima w'urutoki，umeze neza，ukoreye neza，usasiye uteyemo ibinyomoro n'insina，n'ibyatsi birimo bikeya bigaragara.

Ni umurima uteyemo avoka, ariko ntabwo zari zera. Nta mbuto ziri kugaragara, ariko ni igiti kimeze neza kizatanga umusaruro mwinshi.

Umurima uteyemo ibihaza, ibidodoki, byose birahari, inyuma hariho n'ibiti, hariho n'ibiti by'indabo biteye no ku ruzitiro.

Abadamu babiri, bari kurandura imbuto z'ingemwe z'intoryi, bambaye udupfukamunwa, bari kuzirandura imbuto z'ingemwe z'intoryi.

Umurima w'amashu ni umurima munini cyane. Uteyemo imboga z'amashu, amashu araryoha, tuyagurisha amafaranga, amababi y'amashu inkwavu zirayakunda cyane, n'ingurube zirayarya.

Iri soko ricururizwamo ibiribwa . Harimo ibitoki, harimo inanasi ,imineke ya kamara n'ibindi biribwa bitandukanye. Biri gucururizwa ahantu hasakaye n'ahadasakaye.

Ibihaza birambitse ku mufuka. Ibihaza bine, ibihaza biraribwa, biraryoha, bivamo inzuzi na zo tukazirya. Ibihaza byoroshya mu nda, ibihaza ni ikiribwa cyiza cyane.

Abagabo bapakiye ibyansi by'amata ku gare, bari kugenda, barapakiye kuri za moto bari kugenda ,bajyanye amata ku ikaragiro.

Intebo nyinshi z'inyanya ziteretse. Ndikubona mu murima zikirimo, abagabo barahagaze ari benshi, ndi kubona n'abandi imbere benshi bahagaze. Inyanya ziraryoha tuzivanga mu biryo by'ubwoko bwose.

Igiti cy'amapera, harimo n'amapera atari yahisha neza, amapera araryoha abana barayakunda, tuyagurisha amafaranga, amapera ni imbuto ziryoha.

Abantu benshi bari guhinga bambaye imyenda inyuranye y'ubururu, imihondo irimo amabara y'umweru. Inyuma yabo hariho inzu, hirya yabo hateye n'ibitari by'ibiti byinshi no hirya hakurya ku misozi.

Ibicuruzwa byo mu bwoko bw'imboga， karoti，pavuro，na za sereri. Pavuro zipanze ku mabase，na karoti ziteretse ku mabase mu isoko.

Ibijumba byinshi bya Tura bisutse hasi birasandaguje. Ibijumba biraryoha tubijyana ku isoko tukabona amafaranga, kandi na twe tukabirya tukabigaburira n'amatungo, ibijumba ni igihingwa gifite akamaro.

Imyembe dodo iri mu giti. Ifite ibara ry'ubururu n'iry'icyatsi, gifite amababi meza. Imyembe iraryoha cyane.

Imineke ihiye iri ku ntara. Intare iteretse ku ibase. Imineke iraryoha igira na vitamine mu mubiri . Bagiye barayikata inseri, bagiye barayikata inseri.

Ubworozi bw'inkoko imishwi ikiri mitoya, ifite ibara ry'umuhondo n'amaguru y'umutuku, inkoko ni itungo ryiza, itanga amagi, itanga amafaranga, itanga ifumbire, inkoko ni itungo ryiza.

Umugore n'umugabo bari kugenda bagiye guhinga. Batereye amasuka ku rutugu. Umudamu yambaye umupira w'umutuku, n'igitenge kirimo amabara. Yipfutse n'igitambaro. Umugabo yambaye ipantaro ya kaki n'umupira w'ubururu, yambaye inkweto za bote. Bari kugenda.

Inkoko yitwa ndendo, ifite amabara y'umukara n ayumweru n'ay'umuhondo ifite n'ibirokoko bisa n'umutuku birimo ibara ry'ubururu, iyi inkoko iyo yoroye neza, ibaga nini cyane igira n'ibibaba binini ikabipanga ukabona biri gutera ubwoba.

Ikigori gitonoye ariko kikiri ku giti cyacyo, yewe ni kinini cyakuze neza. Ibigori biraryoha, bigurishwa amafaranga bikabeteshwamo kawunga. Ibikenyeri byabyo tubishingirizaho.

Umurima w'ibigori munini cyane, ibigori byiza biteye ko umurongo bimeze neza, ni ibigori byinshi cyane bikorewe.

Umurima w'amashaza ariko ntabwo yari yera, amashaza araryoha avamo amafaranga agira n'intungamubiri nyinshi mu mubiri w'abantu.

Igitoki, ni igitoki cyiza gikuze ibitoki biraryoha bivamo inzoga bita urwagwa, bivamo imineke, umutobe wabyo urakundwa, igitoki muri make ni igihingwa cyiza.

Umukobwa uri kugenda afashe amabasi atatu mu ntoki n'isuka. Yipfutse igitenge cy'amabara, yambaye umupira w'umukara n'ijipo y'umukara n'inkweto za bote. Ari kugenda mu nzira, agiye guhura n'undi mugabo wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara.

Intoryi, urusenda, inyanya bibisutse hasi. Intoryi ziraryoha zigurishwa amafaranga, inyanya nazo ziraryoha zigurishwa n'amafaranga, iyo wazitetse zituma ibiryo bihumura neza.

Ahantu bacururiza imbuto zitandukanye harimo: amaronji, ibinyomoro, imyembe, za kokombure. Hirya y'aho hariho amaduka apanzemo imyenda, ku ruhande hagaragara n'inyubako yubakishije amabuye.

Ibigori, ni ibigori bigaragara ko bitafumbiwe neza bifite ibara ry'umuhondo. Ibigori iyo ubyiseho bitanga umusaruro cyane, kandi bikagira akamaro kenshi. Ibigori ni igihingwa cyiza.

Umudamu wunamye mu murima uhinzemo ibishyimbo bigufi. Ari kubikorera, yipfutse igitambaro cy'umuhondo; yambaye n'igitenge kirimo amabara n'agashati karimo amabara. Iruhande rwe hateye igiti cy'avoka.

Umugore ufashe ikawa mu ntoki mu biganza byombi, ari guseka, mbese uri kubona bimushimishije, yambaye imyenda y'imituku, yipfutse n'igitambaro, inyuma ye hari ishyamba ry'ibiti nyine ririmo n'izo kawa, hariho n'ibiti birebire

Abantu bahagaze imbere y'umurima uhinzemo ingano, abagabo n'abagore bambaye imyenda inyuranye harimo abambaye imyenda y'imikari irimo n'imirongo n'abagabo bambaye ingofero. Inyuma yabo hariho ishyamba.

Umugabo uvuye guca ibigori abitwaye mu ntoki ku kuboko, yambaye ikoti n'agapira k'umukara n'ipantaro itukura, ni umusaza uvuye kuvuna ibigori mu murima ibigori byo kotsa bikiri bibisi.

Ni igiti usedcy'ikawa kireze, gifite ikawa zihishije n'izitarahisha, ikawa ni igihingwa ngengabukungu mu Rwanda, kituzanira amadovize. Ivamo icyayi kiryoha cyane, ikawa ni igiti cyiza cyane.

Abantu bane bari mu murima w'inanasi, batatu bambaye agapfukamunwa, umwe ntako yambaye, hirya y'inanasi hateyemo n'insina hariho bambaye n' imyenda y'amabara anyuranye, umugabo yambaye n'ingofero irebye imbere.

Igitoki kiri mu murima, igitoki ni cyiza, igitoki kiraribwa kandi kiraryoha, hari n'ibyo dutara tukabikuramo umutobe n'urwagwa, urwagwa na rwo ruraryoha, ibitoki bifite akamaro kanini cyane, n'imitumba yabyo tuyigaburira amatungo.

Umudamu uhagaze yiteze igitambaro kirimo amabara y'umweru n'andi mabara anyuranye, yambaye n'ikoti ririho n'amapesa; ahagaze impande y'umurima w'ibigori ariko ibigori babisaruye babitonoye, afashe ibigori bibiri mu ntoki

Amateke ari ku kabase gasa n'umuhondo. Ya mateke y'amabungubungu araryoha. Amateke atera imbaraga ni mu bininyabijumba.

Umurima uteyemo ibigori, umurima munini uteyemo ibigori, ibigori biraribwa, ibigori tubigaburira amatungo, ibikenyeri byabyo tubishingiriza ibishyimbo, ibigori bifite akamaro kanini.

Abadamu bari gucuruza amashu, harimo umugore wambaye umupira w'umutuku n'igitambaro cy'umutuku, kirimo amabara y'umweru, undi na we ahetse umwana yambaye n'umupira w'ubururu, n'umukobwa wambaye umupira w'umukara n'ijipo y'umukara.

Imbuto z'amapera, rimwe rirahishije irindi nta bwo ryari ryahisha neza. Rifite n'amababi y'icyatsi. Amapera araryoha. Rimwe rikaseho, rikaseho ndi kubona n'imbuto zo mu nda.

Umugabo uri mu murima w'inyanya, ariko ntabwo zari zera, yambaye ingofero y'ubururu n'amarinete, yambaye n'itaburiya y'umweru n'ipantaro y'ubururu.

Imifuka y'ibirayi, ipanzemo ibirayi, hirya y'imifuka hateretseho indobo y'ubururu n'urugi rw'ubururu, hirya yaho n'ubundi hegetseho amabati.

Umurima w'ibigori biki biri mu murima, ariko birumye nta bari babisarura, ibigori ni igihingwa cy'ingirakamaro, bifite akamaro kanini, turabirya, tukabigaburira n'amatungo, ibikenyeri byabyo tukabishingiriza mu bishyimbo.

Abagore babiri bagiye guhinga, batereye amasuka ku rutugu ,bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku atandukanye, bafite na twa bucengende mu ntoki.

Ishyamba rinini cyane riteyemo ibiti, ariko hirya yaryo hariho ishyamba ririmo ibiti birebire cyane byo bigaragara.

Igiti k'ipera kimeze neza ,kiri mu murima kimeze neza . Ntabwo cyari cyera imbuto, ariko gisa neza. Nicyera kizaba kimeze neza . Gifite amababi atoshye afite ibara ryiza ry'icyatsi.

Agafuka imifuka y'ibirayi ipakiye ibirayi byiza binini bya kinigi. Ibirayi biraryoha, ibirayi bigurishwa amafaranga, ibirayirayi tubigaburira amatungo.

Abantu bari gusarura mu murima munini cyane uhinzemo imboga, harimo n'uri kugenda, yambaye imyenda yubururu n'umupira w'ingofero. Abandi bambaye imyenda y'imituku.

Umugore ari gukura ibirayi, abandi barahagaze bari kumushungera, hariho n'usigatiye umwana, hari n'umugabo wicaye inyuma, yambaye imyenda y'ubururu n'ipantaro y'igitaka. Ibirayi biraryoha turabikunda cyane.

Intoryi ni ubwoko bw'imbuto bwitwa intoryi. Intoryi iyo zeze turazisoroma, tukazijyana ku isoko. Izindi tukazirya hariho n'indobo y'ifite ibara ry'ubururu. intoryi ziraryoha cyane.

Umurima uteyemo imyumbati. Ni umurima munini cyane uteyemo imyumbati. Hirya yawo hateyeyo ibitari uri kubona n'ibindi birima byinshi bikomeje iyo hirya. Imyumbati ni igihingwa kiryoha. Iraribwa, ivamo n'ubugari.

Amashaza atonoye ari mu isafuriya, amashaza ni meza, arakundwa cyane, amashaza araryoha, ibishishwa byayo tubigaburira amatungo.

Imyumbati iri mu murima ariko iri kugaragaza ibijumba byo hasi yarabyibushye ni minini. Imyumbati ni igihingwa kiryoha kivamo ubugari, indi tukayiteka ku biryo tutayitetse mu bugari.

Impungure zipakiye mu mifuka, imifuka itatu ipakiye, izindi zisutse hasi, uwundi mufuka bawupakiye, urawuziritse, impungure zifite akamaro kanini, turazirya tukazikuramo n'ibiryo by'amatungo.

Ibitunguru bya puwaro, ibitunguru babikuye barangije barabyoza, barabizirika n'utugozi bari kubicuruza. Ibi bitunguru bifite akamaro kenshi, biraryoha bizana amafaranga.

Isoko ririmo inyanya n'intoryi, inyanya zirahiye ni inyanya nziza cyane, n'intoryi n'inyanya biraryoha, tubijyana ku isoko, bikaduhesha amafaranga.

Abagore bambaye ibitenge by'amabara y'ubururu, biteze n'ibitambaro bari gukorera imyaka, inyuma yabo hariho inzu y'amabati y'impara, imbere y'inzu y'amabati hariho hateyemo urutoki.

Umurima uteyemo ibigori, ibigori byeze. Ibigori bifite akamaro kanini: turabirya, tukabigurisha amafaranga, ibyasi tukabigaburira amatungo, tukabibeteshamo n'akawunga.

Avoka bayisatuyemo kabiri isa neza, munda isa n'umuhondo bigaragara ko iryoshye, kandi ni igihingwa cyiza gifite intungamubiri nyinshi mu mubiri. Avoka turazikunda kuzirya tuzijyana no ku isoko.

Abantu bari gukora mu muhanda, abagabo n'abagore, hirya y'aho hirya y'aho hariho inzu yubakishije amategura, isakajwe amategura, ruguru y'aho hateretse umufuka uri mu murima.

Ibirayi bya kinigi ariko byagiye birakobagurika, ariko kinigi ni kirayi kiryoha, ibirayi turabikunda biduha amafaranga kandi tukabirya n'ibyatsi byabyo bakabigaburira amatungo.

Igiti kinini, kirimo igiti cy'ikinyomoro. Kirimo ibinyomoro bihishije n'ibitari byahishe, ibinyomoro biraryoha, byongera amaraso mu mubiri, ibinyomoro ni imbuto nziza zikunzwe cyane, bitanga amafaranga kandi turabirya, bikatugirira akamaro.

Umurima uteyemo ibirayi, ibirayi biri gukura biri kuyanga, ibirayi ni igihingwa cyiza turabirya, tukabijyana ku isoko tukabona amafaranga ibirayirayi tukabigaburira amatungo, amatungo arabikunda.

Intoryi n'inyanya bitanditse mu isoko. Inyanya n'intoryi ni ibihingwa byiza biryoha, bitanga n'amafaranga.

Ubunyobwa butonoye, busutse, burunze hasi, ubunyobwa buraryoha buvamo amafaranga, ubunyobwa, imbuto y'ubunyobwa mbese iraryoha.

Umuntu uri gusoroma icyayi, yiziritse umugozi mu mutwe ufashe no ku gitebo ari gusoromeramo icyayi, yambaye ingofero y'ubururu, yambaye ishati y'umutuku, n'ingutiya y'umutuku, imbere ye hari umwana mutoya.

Igiti cya voka kirimo voka zitarera, ariko zimeze neza. Voka ni imbuto nziza iraryoha, tukayigurisha amafaranga kandi ifite vitamini mu mubiri ifite akamaro kanini.

Amapapayi ya kizungu ari ku kabase. Aya mapapayi araryoha, avura n'indwara nyinshi, cyane cyane indwara zo mu nda. Aya mapapayi ni meza cyane, abantu benshi barayakunze.

Umugabo ugiye guhinga watereye isuka ku rutugu. Ari kugenda, inyuma ye hari umurima uhinzemo ibishyimbo. Hirya y'ibyo bishyimbo hari kugaragara inzu y'amabati, impande ye hariho ibyatsi bya kameroni.

Umudamu uhagaze ufite simati fone. Ari kuyikurikirana, kuyikoresha. Yambaye imyenda y'ubururu n'igitenge cy'amabara. Hirya ye hari inzu, ahantu ahagaze ni mu murima. Hirya ye hari inzu y'amabati.

Imiteja ya kijyambere, imiteja iraribwa, tuyohereza mu mahanga ikatuzanira amafaranga, imiteja igira intungamubiri nyinshi mu mubiri. Imiteja irakunzwe ku isoko cyane.

Umugore uri kubagara ibirayi, wambaye umupira w'ubururu n'igitambaro cy'ubururu, n'igitenge kirimo amabara anyuranye, hirya ye hari ikibambano hirya y'aho hari inzu ebyiri, harimo n'iy'amabati n'indi ifite uruzitiro.

Ihene ziziritse inyuma y'urugo ahantu hazitiye. Zifite amabara y'umukara n'umweru. zimwe ziraryamye, izindi zirahagaze. Ihene ni itungo ryiza rikenewe. Umuntu byihuse yagira ikibazo akaryitabaza byihuse. Ritanga n'ifumbire.

Imineke ya mbogoya yahiye ifite ibara ry'umuhondo, ariko ntiyari yatukura neza yose. Imineke iraryoha, imineke ifite intungamubiri nyinshi mu mubiri.

Ibirayi byeze biri mu murima babikuye, biri kugaragara igice cyo hasi, ibirayi biraryoha, bitanga amafaranga, ibyatsi byabyo tubigaburira amatungo, ibirayi nigihingwa cyiza.

Imboga za shufureri ni imboga ziryoha cyane. Zifite ibara ry'icyatsi, ziri mu gakurete k'umuhondo. Umugore ufite yazingishije n'imisatsi.

Umudamu uri gukora pepiniyeri mu dushashi twumukara, ari gupakiramo itaka, yipfutse igitambaro cy'umutuku, yambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara, ari gukora pepiniyere.

Indimu, puwavuro, intoryi, imiteja ni uruvange rw'imbuto. Harimo puwavuro, harimo indimu zihishije n'izitarahisha neza. Imiteja iraryoha cyane turayikunda.

Iyi ni imiteja bayisoromye, imiteja turayirya, imiteja ni ubwoko bw'imboga bufite akamaro kanini mu mubiri, tuyigurisha amafaranga, imiteja ifite akamaro kenshi.

Abantu benshi bahagaze bambaye imyenda inyuranye, amapantaro y'ubururu, imipira y'icyatsi n'amapantaro y'umukara, imipira y'icyatsi. Hariho n'uwambaye umupira w'umutuku. Ibyo ari byo byose bagize koperative bari kureba imbuto zabo.

Abagore bari gusoroma icyayi, bambaye imyenda itandukanye ifite amabara. Bari gusoroma, bari kurambika ku bitebo. Icyayi kiraryoha, kizana amafaranga, amadovize mu Rwanda.

Abagore babiri n'undi mugabo n'umwana bahagaze mu murima munini cyane uteyeho umuceri, bari gusarura, bari gusarura, umugore umwe akenyeye agakapu mu nda, yambaye ingutiya y'umukara n'agashati k'ubururu, yiteze n'igitambaro.

Umurima w'imyumbati harimo abantu benshi baje kuwusura, harimo umugabo uhagaze wambaye ingofero y'icyatsi n'ishati y'umweru, harimo n'abandi bantu benshi harimo n'abadamu, baje gusura uyu murima w'imyumbati.

Umugabo uri murima munini w'urusenda, yambaye imyenda yu'ubururu n'ingofero y'ubururu, urusendera rurimo ruratukuje. Urusenda rugira amafaranga ku isoko, turwohereza no mu mahanga, rukatuzanira amafaranga atubutse.

Umugabo uri mu murima w'amashu yambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro yumukara, arunamye ari gukora ku gihingwa, inyuma ye hirya y'umurima we hateyeyo ibiti birebire, afite amashami meza ashishe.

Umugore uri kugenda ahetse umwana, yikoreye igifuka kirimo ibintu, yambaye agashati gaciye amaboko, yambaye n'igitenge kirimo amabara y'umuhondo. Ari kugenda mu murima urimo ibyatsi byinshi, n'inyuma ye hariho ishyamba riteyemo ibiti bindi birebire.

Abantu bari gusarura inyanya .Barahagaze bifotoje bazifashe mu ntoki, bambaye amatabariya y'ubururu , harimo n'umugabo wambaye ishati y'umweru,n, ipantaro y'umukara n'ingofero irebye imbere.

Amateke y'amabwayisi n'amanyabwenge bayakase imitwe. Bigaragara ko ari amateke. Amateke araryoha, tuyagurisha amafaranga, amababi yayo tuyagaburira amatungo.

Iki ni igihingwa cy'amateke, amateke ni igihingwa cya kinyarwanda kiraryoha, amateke tuyagurisha amafaranga, amateke amababi yayo tukayagaburira amatungo.

Igiti cyitwa amaperi, amaperi ni ikiribwa kiryoha cyane, gifite akamaro kenshi mu mubiri, barayarya, barayacuruza akavamo n'amafaranga, afite n'indwara avura mu mubiri.

Umugabo ahagaze mu murima yambaye umupira w'ubururu urimo imirongo y'umweru, umutuku n'umukara yambaye na furari mu ijosi arahagaze afashe ku giti.

Amaterasi y' indinganire harimo abantu bari gushyira ifumbire ku bihingwa, bambaye imyenda y'imituku n'ubururu, bari gushyira ifumbire ku bihingwa bihinze mu materasi.

Isoko ry'ibiribwa ririmo amoko menshi y'ibiribwa, inyanya, imbuto, amashu, harimo abantu benshi bambaye imyenda itandukanye, abagore bambaye ibitenge, abandi bambaye imyenda y'icyatsi n'imituku, bari gucuruza abandi bari kugura.

Umugabo uri mu murima we w'inyanya yambaye agapfukamunwa. Yambaye ishati y'icyatsi, yambaye na ga z'icyatsi. Inyanya ze zahiye ari guseka, ari kubyishimira. Mbese uri kubona umurima we ushimishije. Afashe n'urunyanya mu ntoki.

Ubuhinzi bw'imyumbati, umuhinzi w'imyumbati avuye kuyikura mu murima, igiti yagikuye n'imyumbati yacyo agitereka ku igare , ni umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara n'inkweto zifunze, ari kumwe n'abandi bantu benshi n'abagore bicaye, ariko yahinze kijyambere.

Izi n'imbuto n'amapera amapera araribwa abana barayakunda. Ariko iyo atari yahisha abakomeye ariko rero ndikubona yari atangiye gufatwa ubu bayoroshye mu byemeza bikomeye mu rugero.

Ibigori by'amahundo byanitse ku kirago, ibigori biraryoha, tubikuramo umutsima, ariko ibi ibigori bisa nk'aho byafurikase, byarakonje. Ibigori rero ni igihingwa cyiza, tugikuramo n'umutsima wa kawunga.

Umugabo uri gusoroma inyanya mu murima, yambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero. Ari gusoromera mu gitureyi kigiye kuba umuhondo, ariko atari umuhodo neza. Inyanya zirahishije, harimo n'izitarashya. Inyanya ni igihingwa cyiza kigira amafaranga.

Ubwanikiro bw'ibigori, burimo ibigori byinshi byinshi byumye, imbere ya ho ku bwanikiro hazitije uruzitiro ruteye irangi ry'umutuku, ubwanikiro busakajwe amabati afite ibiti biteye irangi ry'umukara, burimo ibigori byinshi cyane.

Umufuka urimo impeke za soya. Soya ni ikiribwa gikungahaye ku ntungamubiri. Soya turayirya, tukayigaburira amatungo. Ifite akamaro kenshi mu mubiri, tukayigurisha bakaduha amafaranga. Ibyatsi byayo amatungo arabikunda.

Umugore uri kugesa amasaka. Yambaye umupira w'ubururu, yiteze igitambaro, yambaye n'ingutiya irimo amabara, amasaka areze ari kuyasarura. Igihingwa kigira amafaranga.

Umudamu uri kogosora ibishyimbo, umukecuru wipfutse igitambaro ari kugosora, akenyeye agatenge karimo amabara y'ubururu n'umweru. Gukora imirimo ya kinyarwanda ni byiza.

Umubyeyi ari kumwe n'abana be ni mu muryango urimo abana benshi bambaye imyenda y'imituku, amakabutura y'umutuku, n'amashati y'umweru. Umukobwa yambaye ijipo y'icyatsi n'agashati kiroza bitwikiriye umutaka bari gusogora ibitonore.

Ibigori bimanitse ku biti byumye, byanitse birumye, hirya y'ibigori hari kuboneka ibiti n'imirima n'imirima y'ubuhinzi.

Amasaka ateye mu murima, amasaka areze bari hafi kuyasarura yatukuye. Amasaka n'igihingwa cyiza, igikoma cy'amasaka kiraryoha, amasaka tuyagurisha amafaranga, tukayakuramo n'umusururu ari wo bita ikigage n'ubushera.

Inzuzi, inzuzi ni imbuto z'ibihaza. Ni zo batera zikameramo uruyuzi rukera ibindi bihaza. No kuzirya barazirya, bakazikaranga bagasekura, bagashyira mu biryo. Ifu yazo iraryoha kandi ifite n'ibyo ivoma mu mubiri w'umuntu.

Ibigori bitonoye, ibigori biraribwa, tubyotsa ari bibisi, byakuma tukabibetesha tukaywa igikoma, tukarya umutsima, ibisigazwa bya byo tubigaburira amatungo, ibikenyeri by'ibigori tubishingiriza n'ibishyimbo.

Amahundo y'ibigori bayapakiye mu mifuka, imifuka iruzuye. Ibigori ni byiza biraryoha, ibigori dukwiye kujya tubifata neza.

Imyembe ya kijyambere imyembe dodo irunze ikirundo, turayirya turayikunda iraryoha cyane ,abana usanga bari kuyikunda cyane.

Umugabo uri kwanika ubunyobwa akoresheje lato kubera ko ari bwinshi, yambaye inkweto za bote, yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'iroza.

Umurima munini uhinzemo amasaka, amasaka areze. Amasaka ni igihingwa cyiza, adufitiye akamaro kanini. hirya yaho hariho, hariho iyindi mirima ihinzemo ibindi bihingwa binyuranye. Amasaka ni igihingwa cyiza cyane.

Umudamu ari gucuruza imifuka y'ubunyobwa, ibiheri, n'ibindi bintu byinshi binyuranye bimanitse, afite n'umusatsi wirabura yambaye n'itaburiya.

Umurima uhinzemo ibigori byiza bafumbiye neza byagiye biraheka bibiri. Ibigori bidufasha mu kubirya tubikuramo akawunga, tukabitekamo igikoma, ibyatsi byabyo tubigaburira amatungo, n'ibikenyeri byabyo tukabishingiriza indi myaka.

Umuceri uhinzwe mu mazi, umuceri turawukunda. Umuceri ni igihingwa gikunzwe n'abantu benshi. Umuceri ugurishwa amafaranga, ibyatsi byawo bigaburwa amatungo.

Amasaka bayasaruye aranitse arahishije bayasaruye, amasaka n'igihingwa kivamo umusururu, ariwo bita ubushera cyangwa se ikigage.

Ingano zisaruye, zishanditse, zimanitse ku biti, ingano ni igihingwa gifite akamaro cyane, tuziryamo umutsima, mu gikoma, mu migati, tukazigurisha n'amafaranga ku isoko.

Umudamu ari gucuruza ibitunguru, bimwe yabisutse hasi, ibindi biri mu mufuka uhengetse, yambaye ikoti ry'ubururu, yiteze igitambaro cy'umuhondo, yambaye ishati y'amabara n'igitenge akenyeye kirimo amabara. Igitunguru ni igihingwa cyiza gihumuza ibiryo.

Ingano batari bahura, ingano ni igihingwa kiryoha cyane, kivamo ibintu byinshi, kivamo umutsima tukawurya, kivamo ibiryo by'amatungo, bazikuramo imikati, bazikoramo ukarisitiya turya mu kiliziya.

Umudamu usigatiye umwana, ufite n'agatete karimo ibishyimbo yipfutse igitambaro, avuye kubisoroma mu bigori. Ibishyimbo biraryoha, inyuma hari umurima uteyemo ibigori.

Umugore wikoreye igitebo kiriho imishagi y'ibishimbo yambaye ishati y'icyatsi, yiteye igitenge, yagisize mu mutwe, ari kugenda ari no guseka, afatishije amaboko yombi hejuru ku gitenge, ku gitebo.

Ibishyimbo byiza by'urunyumba. Ibishyimbo biraryoha, bigira intungamubiri nyinshi . Ibishyimbo ni igihingwa cyiza cyane tubirya n'umushogoro, tukabigurisha amafaranga, tukabirya bikuze intonore n'ibyumye.

Ibishyimbo bine biteye mu murima, bimaze kumera ibindi biracagondora, ibishyimbo turabirya umushogororo wabyo uraribwa ibishyimbo tubigurisha amafaranga ibishyimbo bifite intungamubiri nyinshi mu mubiri bifite akamaro kanini.

Ubunyebwa budatonoye, ubunyebwa ni ikiribwa kiryoha, ubunyebwa bufite intungamubiri nyinshi mu mubiri, ubunyebwa babugurisha amafaranga, ubunyebwa ni bwiza cyane, buvamo n'amavuta aryoha cyane.

Imiteja y'ibishyimbo, ibishyimbo biracyarimo n'ururange, bari gusoromamo imiteja yo kujyana ku isoko, bashyize mu gapaniye. Imiteja, ibishyimbo by'imiteja bigira imiteja iryoshye, kandi itanga n'amafaranga.

Ni igihingwa cya soya yumye, soya igira akamaro kenshi ifite intungamubiri nyinshi, ari ku amatungo, ari ku bantu soya ifite akamaro kanini cyane turayirya, tukayibetesha mu gikoma, tukayikoresha mu mutsima, tuyikenera ahantu henshi.

Umurima w'ibishyimbo ushingirijwemo ibishingirizo by'imigano, ibishingirizo by'imigani n'ibishingirizo bidapfa kuvunika ubusa biba bikomeye.

Igare ripakiye imitwaro y'ibishyimbo, riri kugenda mu muhanda, impande yaryo hariho imodoka ebyiri na zo ziri kugenda mu muhanda, ibishyimbo ripakiye bizirikishije imigozi.

Ikigega. Ikigega impande yacyo hateretseho umutiba， imbere hejuru yacyo hamanitse ibigori， ikigega gisakaje ibyatsi，impande yacyo hateyeho indabo， hirya ya cyo hari ibiti birebire. Ikigega nicyo bahunikagamo kera， imyaka inyuranye.

Ibigori by'amahundo bisa n'umuhondo, n'indi bihunguye, impeke zanitse hasi. Ibigori byiza, bisa neza, bifite ibara ryiza ry'umuhondo.

Umuntu ufashe ikawa mu biganza. Impeke z'ikawa zitonoye azifashe mu biganza. Ikawa ni igihingwa ngengabukungu, mu Rwanda ivamo icyayi kiryoha cyane kandi yoherezwa mu mahanga, ikazana amadovize mu Rwanda.

Ibishyimbo biri mu byibo bitatu, kimwe cyanditseho agapapuro kariho igiciro cy'amafaranga ibihumbi bibiri manatatu na mirongo itanu, ikindi cyanditseho MBC 23. Ibishyimbo biraribwa Kandi bigurishwa amafaranga.

Ubunyobwa butonoye ubunyobwa bwiza cyane, ubunyobwa buvamo amavuta ubunyobwa turaburya, ari mu ifu ari ukubukaranga tukabuhekenya, byose buraryoha.

Imodoka bamaze gupakiramo imifuka y'imyaka, inyuma yayo hahagaze abagabo batatu, mu modoka harimo umugabo wambaye isarubeti y'ubururu wicaye imbere yayo, hariho n'abandi bantu bahagaze bambaye imyenda inyuranye y'amabara y'umutuku. No ku ruhande rwo hirya hariho undi muntu wambaye...

Imbuto z'igihingwa bita igihwagari, igihwagari kiraryoha kivamo amavuta meza cyane, igihwagari ni igihingwa cyiza cyane. Ibihwagari ushatse wabigaburira n'amatungo na yo arabirya.

Umuceri wanitse, umuceri uraryoha, umuceri ukundwa n'abantu benshi, umuceri uradufasha cyane n'abana barawukunda, umuceri ni mwiza.

Abadamu benshi bari kubagara umuceri, bambaye imyenda y'ubururu, imituku, hariho n'uwiteze igitambaro cy'umutuku n'abandi biteze ibitambaro by'imihondo, umuceri uraryoha.

Impungure z'ibigori zirenze ku mabase, izindi ziri mu mifuka, harimo hari n'izirenze mu tudobo tw'ubururu, impungure ziraryoha, zikagira amafaranga, tukazibeteshamo umutsima tukanywamo n'igikoma, tukazigaburira n'amatungo.

Umugabo ari gusarura amasaka, ari kugesa amasaka, yambaye ingofero y'umutuku .Amasaka ni meza, ameze neza, avamo umusururu uryoshe .Amasaka iyo yeze avamo n'igikoma cyiza cyane.

Impungure zimwe zisutse hasi ,izindi bazirenze mu ibase, impungure ziraryoha, impungure zivamo umutsima, impungure zivamo n'akawunga impungura ni nziza.

Ubunybwa butonoye n'ubudatonoye. Ubunyobwa buraryoha , Tubugurisha amafaranga, buvamo n'amavuta. Ubunyobwa ni igihingwa cyiza cyane.

Umuntu uri gusoroma amashaza afite agatebo. Ari kujya arasoroma imiteja y'amashaza agatereramo. Yambaye n'urunigi. Amashaza afite imiteja, ariko aracyafite n'uruyange. Amashaza araryoha.

Umudamu uri kurenga impungure ku mabase, amabase atandatu, afite n'ingemeri y'icyatsi, yambaye imyenda y'amabara anyuranye, umutuku, umukara, yiteze n'igitambaro, ibindi biri mu mifuka.

Umurima w'umuceri. Umuceri uraryoha, umuceri uri hafi kwera bari hafi kuwusarura. Umuceri ugurishwa amafaranga, umuceri urakunzwe cyane. Ni igihingwa cyiza, umuceri uraryoha.

Ibishyimbo bifite uruyange rufite ibara ry'umweru rivanzemo akabara k'iroza, rufite n'imiteja, birimo gucunshumura. Ibishyimbo bifite akamaro kanini, turabirya, bifite intungamubiri.

Inka nziza estatu zitagira amahembe bazita inkungu. Ni inka inka zitanga amata, zigatanga amafaranga, zigatanga n'ifumbire.

Aya ni amagi y'inkoko ari mu tuntu twabugenewe, amagi araryoha afite n'intungamubiri nyinshi, amagi ni meza cyane aya tuyagurisha n'amafaranga.

Ubworozi bw'inkwavu, urukwavu ni itungo ryororoka cyane vuba vuba, urukwavu ni itungo ritanga amafaranga, urukwavu rugira inyama ziryoshye, rukagira n'ifumbire nziza cyane, itubura umusaruro.

Imishwi y'inkoko ni imishwi itandatu, inkoko zitanga amagi, inkoko zitanga inyama, inkoko bazigurisha amafaranga, inkoko zitanga ifumbire nziza, inkoko ni itungo ryiza, iyo umuntu arifite mu rugo aba ameze neza.

Ihene nziza igaragara ko iri guhaka, inyuma yaho hariho akana kayiragiye kambaye imyenda agapira k'umweru, n'ikabutura y'umutuku. Iyo hene ifite ibara ry'umukara n'umweru mu gahanga. Ni ihene nziza.

Izi ni nyama bari kumanika ku ntuza ,bari kumanika ku cyuma. Inyama ziraribwa, inyama zifite intungamubiri nyinshi ,ni ibikomoka ku ku matungo.

Inkoko, inkoko zitwa ibigagari zikunda kuba mu burasirazuba, izi nkoko ziraryoha zigira inyama nziza cyane, zikunda kuguruka.

Abantu benshi bavuye gufata amatungo magufi. Umugabo ateruye ihene, umugore afite ikiziriko. Bambaye imyenda y'amabara atandukanye. Imituku, ubururu n'ubururu bwa juru.

Imishwi y'inkoko myinshi ,hari n'iyo bari gupima ku munzani, iri kw'ibase isa n'ubururu, iri gupimwa n'umugabo wambaye inkweto za bote, n'isarubeti y'ubururu, harimo n'ibikoresho bakoresha bari kuzigaburira no kunyweramo amazi.

Ingurube yabyaye, iraryamye iri konsa, ifite ibyana byinshi bigera mu icumi, iri kurya ibitobo bifite amabara, iri kubyonsa iryamye. Ingurube ni itungo ryororoka vuba.

Inka nyinshi zifite amahembe manini cyane ateze neza. Harimo n'izibyagiye hasi, ni inka zifite umukamo. Inka zitanga amata, zigatanga inyama, zigatanga ifumbire, zigatanga n'amafaranga.

Inka ziri mu rwuri ariko bazitemeye ibyatsi ku rutara ziriraho, ziri kurya, izindi ziri inyuma. Ni inka nyinshi zirimo iziri mu gikuyu ,hirya yaho hariho n'ibiti binini.

Urugo rurimo amatungo atandukanye, ihene, inkoko, ihene z'umukara n'iy'ikivuvu n'inka iri mu kiraro, n'umugabo uri kugenda aturutse inyuma y'urugo hari n'urutoki.

Umudamu ufite inka nziza inka z'imisengo, inka z'ikibamba arazishore ari kugenda azifashe no kumurizo. Yambaye imyenda y'imituku n'umupira w'umukara, arikugenda wagira ngo ari kuyivura ari kugisuzuma mu kizete.

Inkoko nziza y'isake yakuze pe. Isa neza ifite amabara y'icyatsi, ifite amabara y'umuhondo, ibirokoroko byayo bisa n'umutuku. Ni inkoko ibyibushye imeze neza..

Ihene iri kurisha mu murima, Inyuma yayo hariho uruzitiro ruzitiye ku rugo, Ihene ni itungo ryiza ryororoka, itanga ifumbire, n'inyama ziryoha.

Inka bari kuyubakira ikiraro, inka ni ebyiri imwe ni umusengo indi ni ikibamba. Umugabo uri kuzubakira yambaye imyenda y'ubururu, n'undi wambaye agapira k'imirongo n'ipataro y'umukara.

Inka n'inyana yayo, ni inka y'ikibamba n'inyana yayo iri kurisha mu rwuri. Akanyana kari kugenda kari kuyikinira iruhande kari no kuyirigata. Inka itanga amata, igatanga ifumbire, igatanga amafaranga, ikagira n'inyama ziryoha.

Abanyeshuri bari kwiga bari kubaga ihene, ariko nubwo bari kuyibaga ntabwo yapfuye, bari kuyibaga bari kuyigeraho. Bambaye amataburiya y'ubururu, mwarimu wabo abari inyuma yambaye umupira w'umutuku.

Inkoko ifite amaguru y'umuhondo. Irahagaze bari kuyigaburira mu kintu cyayo bayigaburiramo. Igiye kurya. Hariho n...

Ingurube ifite ibyana bifite amabara y'umukara n'umweru, nayo ifite amabara ibyana byiza bimeze neza, ingurube igurishwa amafaranga, itanga ifumbire igira n'akabenzi karyoshye.

Aya ni amatureyi bapangamo amagi, amagi menshi cyane menshi menshi. Amagi araryoha, atanga amafaranga, amagi ni meza cyane.

Ibi ni ibikoresho bifashisha bari gupangamo amagi kugira ngo babone uko bayabara neza. Ni udukoresho tubika amagi neza akabasha kutononekara kugira ngo babone uko bayabika neza.

Umugore wambaye itaburiya ari kugaburira inkoko. Yambaye itaburiya y'umweru ari kugaburira inkoko inkoko nyinshi cyane z'amasake.

Inka iri mu kiraro bari kuyifuhira, iraryamye, umusaza uri kuyifuhira ahetse ipombo, yambaye ishati y'icyatsi, afite ipombo ari kuyifuhira, imbere yaho hariho inzu araramo, inka iri mu kiraro.

Umugabo uri gufuhira inka, yambaye ishati y'icyatsi, inka irabyagiye, ahetse ipombo ari kuyifuhira. Hirya ye hariho inzu isakaje amabati. Iyo nka ikiraro cyayo ntigisakaye.

Ihene n'intama biri kurisha mu murima munini . Hirya y'aho hateye ibiti, hahagazeho umuntu ku giti, hirya y'aho hateretseyo haririyo ibintu by'ubururu.

Abaganga b'amatungo bari kuvura imbwa, bari kuyishyiramo n'igipimo n'icyumvirizo, bari kuyivura bayifasheho, bambaye n'amataburiya y'umweru, bashokoje n'imisatsi, umugabo uhari ari kuyireba agaseka.

Umugore n'umugabo bari mu rugo rwabo boroye inka, boroye ihene, inyuma yabo hateye n'insina impande y'igikoni hateye n'insina . Umugabo yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, umugore yambaye ijipo y'amabara n'agapira...

Amagi, amagi turayarya, amagi tuyagurisha amafaranga, amagi agira intungamubiri nyinshi, amagi tuya bayakoresha bari gukora imigati, amagi avamo n'imiti yo kuvura abana, amagi ni meza.

Inka z'umusengo, inka nini cyane zitanga umukamo, zitanga amata, zitanga ifumbire.

Abantu batatu bambaye imyenda y'ubururu n'umweru. Inyuma yabo hari inzu yubatse neza yubakishije n'amatafari ahiye, hateyeho n'indabo, hariho n'ibyapa.

Iyi ni nyamaswa yitwa ingurube. Ifite amabara y'umukara n'umweru , iri guhaka . Ingurube ni inyamaswa igira inyama ziryoha. Itanga amafaranga, igatanga ifumbire . Ni inyamaswa ibyoshya kabenzi.

Ibyana by'ingurube bifite amabara y'umukara n'umweru bishishe bimeze neza. Biri kurya, biri gusangirira hamwe mu kintu biriramo.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukanwa, ari kuzirika inka mu ijosi, ari kuyitera n'urushinge, ari kuyikingira.

Abagabo batatu bashoreye inka. Umwe ari kuyikubita urushyi ku rushyi rw'ukuboko, afashe ahetse igikapu afashe n' agatambaro k'umweru mu ntoki. Undi yambaye ishati y'icyatsi yambaye n'ingofero y'urugara, undi yambaye ishati y'umweru akenyeye n'ikoti.

Inyoni y'isandi ihagaze ku kazitiro, ifite ibara ry'umuhondo, umunwa w'umukara, inyuma ku gisembe ni umukara n'ijisho ryayo risa n'umukara.

Inyoni nini cyane ifite amaguru y'umutuku n'umunwa n'umutuku, ifite amabara. n'inyoni nini cyane ifite n'ibisembe nabyo bifite amabara y'umukara n'umweru n'amababa, harimo amabara y'umweru.

Igihangara kiri kurira mu biti. Munsi y'ibiti harimo indabo kirikuzamuka, hariho indabo nziza zirimo amabara y'icyatsi n'umutuku igihangara kiri mu biti.

Inyoni ihagazeku giti, igisiga gihagaze ku giti batemye kidafite amatabi, kidafite amababi; gifite amabara n'amaguru y'umuhondo kirahagaze kiri kureba hasi.

Inyamaswa yitwa ingurube yo mu ishyamba . Ingurube ni inyamaswa ikaze igira amahane ariko ikagira inyama ziryoshye bita akabenzi. Ingurube iraryoha kandi iyo ariyo mu rugo itanga ifumbire.

Inyamaswa iri mu kinani mu mirima iri kwiruka ifite ibara ry'umukara, iri kwiruka amatwi arahagaze iri kwihuta cyane iri mukinani.

Inyoni ifite ibara ry'umweru. Ifite mu mutwe isa n'umuhondo. Ifite n' umunwa w'umukara. Ihagaze ku giti kiri mu murima uteyemo imyumbati. Inyoni ifite akabara keza isa neza.

Iyi ni inuma ya kizungu ifite ibara ry'icyatsi mu ijosi, ubururu hepfo yaho umutuku amaguru yayo asa n'umutuku ni inyoni nziza yibera mu rugo.

Iyi ni ingona. Ifite ibara ry'umukara mo hafi inyuma ku gisembe ni ibara ry'umweru n'umukara bivanze. Igikona ni igisiga kigenda mu ikirere. Gikunda inyama.

Igisiga kinini kiri kuguruka, ariko kigiye kugwa ku giti. Gifite umunwa w'umutuku, gifite n'amabara yumukara, n'ay'ubururu, n'ay'umweru. Ni igisiga kinini kiri kuguruka ariko kigiye kugwa ku giti kidafite amashami. Icyo giti nta mashami gifite.

Inyoni nyinshi z'intasha zihagaze ku nsinga z'amashanyarazi, ku nsinga z'amashanyarazi, ni utunyoni twiza, dufite amabara y'umukara n'umweru.

Inyoni y'inyamanza iri mu murima. Ifite ibara ryiza ry'ubururu. Iyi nyoni ntabwo ikunda kona, iri mu nyoni zitonda ntabwo yona. Inyamanza ni akanyoni keza.

Ingurube yo mu ishyamba ifite ibara ry'umukara. Ni inyamaswa ikaze cyane. Iri kwirukanka, iri guhiga. Ni inyamaswa ifite ibara ry'umukara, irigusesera mu biti by'ishyamba.

Uruyongoyongo rufite ibara ry'ubururujuru, n'iry'umweru. Rufite uruwa rurerure rusongoye, ku munwa waryo hari ibara ry'umuhondo, rugira n'amaguru maremare cyane. Uruyongoyongo rukunda kuba hafi y'uruzi.

Ingagi ni inyamaswa yibera mu ishyamba Ikatuzanira amadovize. Ingagi ni inyamaswa yibera mu ishyamba ikatuzanira amadovize.

Inyoni iri kurira igiti, ifite ibara ry'umutuku ku mutwe, rifite urunwa rusongoye, mu mugongo hayo hasa n'icyatsi, iri kurira igiti.

Igisimba cyitwa inkende gisigatiye umwana wacyo ,gifite ururizo rurerure, ibyoya byacyo birimo n'amabara agiye kuba umutuku, gihagaze ku giti hejuru.

Inyamaswa iri mu gasozi, ifite urusembe runini, ifite n'amaguru ane, n'amatwi ahagaze.

Ingagi ifashe urunyanya mu ntoki igiye kururya. Ingagi zifite akamaro kanini , zikurura ba mukerarugendo, zizana amadovize mu Rwanda. Ingagi ni inyamaswa yubashywe mu Rwanda rwacu.

Inyoni ihagaze ku giti gikase cy'igitsitsi, ifite ibara ry'ikijuju, ifite ibara ry'umuhondo mu jisho, inyoni ni inyoni nini ifite n'umunwa usongoye.

Imisambi ibiri iri kurebana, imisambi iri mu bwoko bw'ibisiga, bigira amaguru maremare ,n'imijosi miremire noneho byongeye bikagirana n'umutatsi mwiza, bikagenda biri gukimbagira. Umusambi ufite amabara y'ubururu n'umutuku .

Inyamaswa y'impongo, ni inyamaswa ifite amahembe maremare, n'amaguru maremare, ijya kwitwara nk'ihene. Ni inyamaswa isa neza, ifite no ku mpakamano h'umukara. Ni inyamaswa y'ishyamba.

Inyoni y'inyamanza ifite ibara ry'umukara n'umweru. Ni inyoni yitonda ntabwo isamara cyane. Ifite n'ijisho ry'umukara n'umunwa usongoye.

Inyoni ihagaze mu giti ifite munsi ibara amababa y'umuhondo, inyuma amabara y'umweru n'umukara. Ihagaze mu giti ifite n'umunwa usongoye wigondoye.

Inyoni zifite amabara y'umuhondo, umutuku, ubururu n'icyatsi. Ni inyoni enye zifite amabara, ku maso yazo hasa n'umweru. Zifite n'iminwa yigondoye.

Inyoni ifite ibara ry'umukara, ku munwa n'umuhondo, imbere ku kinwa cy'imbere kigondoye hariho ibara ry'umuhondo n'iry'umutuku. Ni urunyoni runini rufashe ku giti gihagaze.

Inyoni y'uruyungoyongo ifite ibara ry'umukara, ifite urujosi rurerure, n'amaguru maremare, n'urunwa rusongoye. Iyo nyoni ikunda kuba hafi y'uruzi. Iri mu ishyamba, imbere hirya yayo hateyemo umurima uteyemo ibigori.

Igisiga kinini cyane, gifite umunwa ufite ibara ry'umuhondo, umunwa wacyo warabinduye ariko igice cyo hasi ntikigaragara, hari kugaragara igice cy'umutwe n'amaso gusa.

Inyoni ihagaze ku giti ifite ibara ry'umukara mu gahanga. Ahandi ni ibara ry'ikijuju. Ni inyoni ntoya nta bwo ari nini cyane, ifite umunwa usongoye.

Imbeba, iyi ni imbeba yo mu kinani. Imbeba irona iyo igeze mu bishyimbo irabyona. Iyi mbeba ikunda kuba mu kinani. Imbeba ni itungo rikubagana cyane. Ifite amabara y'umukara n'umweru.

Ibisiga bibiri bihagaze mu giti, kimwe mu ijosi hasa n'umweru ahandi ku mababa hasa n'umukara, umunwa usa n'umuhondo ni ibisiga binini.

Inyoni ihagaze mu giti ifite amabara, amaguru yayo ni umuhondo ku mabara hariho ibara ry'igitaka n'umukara. Inyoni ni inyamaswa yibera mu ishyamba.

Inyamaswa y'inkende iri kumwe n'umwana wayo, ziri mu ishyamba zikunda kuba ahantu h'ishyamba kandi hegeranye n'abantu, ziri mu ishyamba iri kumwe n'umwana wayo zikunda kurya n'imbuto.

Igishuhe kiri mu mazi gifite amabara atandukanye y'umukara, umweru, ku munwa hacyo ni umutuku, kiri koga mu mazi. Igishuhe ni itungo riba mu mazi, rikunda amazi cyane.

Inyoni ihagaze ku giti, ifite amabara y'umukara n'umweru. Amaguru yayo asa n'umuhondo. Ni inyoni ifite umunwa usongoye. Ku munwa hariho ibara ry'umuhondo.

Inyamaswa ifite ibyoya byinshi. Mu maso hayo isa n'umuhondo, ikanuye amaso, ifite umunwa w'umukara n'amatwi ahagaze . Ifite ibyoya byinshi, iri mu ishyamba.

Inyoni ihagaze ku giti, ifite ibara ry'ubururu, n'umukara, n'umweru, ifite umunwa usongoye, ihagaze ku giti kidafite amababi, ariko kirimo imbuto ziri kwerera.

Inyamaswa z'inkende enye zihagaze ku biti, harimo n'akana ka zo gatoya, zihagaze ku biti byo mu ishyamba. Ibyo biti nta mashami bifite, ni ibyo mu ishyamba.